Umugabo wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo ndetse akaba yambaye ikote ry'umukara isaha ku kuboko n'impeta imbere ye hakaba hateretse indangururamajwi yabugenewe kugira ngo amajwi agere ku bantu ndetse n'ikimufasha kurambikaho ibintu cyanditseho amagambo ari mu nyuguti z'ubururu gisa umweru cyanditseho amagambo y'icyongereza avuga ngo Rwanda governance board.

Abayobozi bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo batetse amazi mudasobwa, bafite amakaramu mu ntoki, hakurya yabo hari undi mugabo uhagaze, icyumba cy'inama gifite amakara yometse ku gikuta, ndetse n'ameza ari mu ibara ritukura bigaragara ko bitabiriye inama.

Umugabo ufite indangururamajwi yagenewe kugira ngo abantu bumve neza, wambaye imyenda y'ikigo gishinzwe ubugenzacyaha ribu, bigaragara ko ari kubwira abantu ndetse bakaba bateretswe ameza imbere hejuru ariho amacupa y'amazi yo kunywa n'ibitambaro bisa umweru.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu barebana, ndetse ameza asashweho ibitambaro inyubako iteye amarangi y'umweru inzugi z'umukara, intebe zifite ibara ry'umuhondo zegamirwa bigaragara ko bari mu nama.

Abantu bicaye ndetse bakaba bari kumwe n'ingabo z'igihugu zambaye impuzankano y'igihugu, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, ufashe indangururamajwi, wambaye isaha ku kuboko, uri kugira ibyo abaganiriza, hakurya hakaba hari inzu yubakishije amatafari ahiye, amadirishya ateye irangi ry'umuhondo.

Abantu bicaye imbere, abamama babiri n'abagabo batatu, ku mpande zabo hagiye hateretseho amazi yo kunywa ndetse n'amafanta yo kunywa. Bigaragara ko bari mu nama ndetse n'ibiganiro bihuza abantu benshi, biga ku bintu bijyanye na jobu neti.

Abantu umwe babiri batatu bane batanu bicaye bakikije ameza hejuru hakaba hari amacupa y'amazi ndetse n'ibitabo n'ibikoresho byabugenewe mu itumanaho . Bigaragara ko aribyo bari kumva bateze amatwi inyuma yabo hakaba hari igikoresho bifashisha barebera amashusho mu ndimi z'amahanga bakunze kwita televiziyo .

Umukobwa bigaragara ko yicaye mu cyumba k'inama imbere ye hakaba hateretse icupa ry'amazi akaba afashe ikaramu mu ntoki, inyuma hakaba hari abandi benshi bigaragara ko bateze amatwi icyo bari kubwirwa akaba yambaye ikanzu iri umupira uri mu mabara y'umukara n'umweru, wambaye akamwemerera kuba ari mu nama mu ijosi.

Umukobwa n'umuhungu, umukobwa wambaye ikoti ry'umutuku imbere hakaba hateretse amazi, indangururamajwi, imbere ye kumeza hakaba hari ibitabo ndetse umugabo akaba yambaye ikoti riri mumabara y'umukara n'umweru inyuma yabo urukuta rutandikijwe amabara y'umukara ndetse amatara ari kwaka.

Abantu bicaye mu cyumba cy'inama bafite amakaramu ndetse n'amakayi, bigaragara ko imbere y'abo hateretse amacupa y'amazi ndetse biceye mu ntebe z'umweru, inyuma hakaba hari abandi bigaragara ko bitabiriye inama.

Abantu benshi bari mu cyumba cy'inama bahagaze, imbere yabo hari ameza ateretseho ibintu, arambuweho ibitambaro biri mu ibara ry'umweru n'umukara, hari amatara arimo araka hejuru, mu birahure by'umukara ndetse hameze neza.

Abamama umwe babiri batatu bicaye bigaragareko hari ibyo bari kuganira, imbere yabo hakaba hateretse ameza, hatwikirijeho igitambaro cy'umweru ndetse n'amacupa arimo amazi yo kunywa, inyuma yabo hakaba hariho urukuta ruteye irange ry'umweru.

Icyumba cy'inama aho hicaye abantu benshi, imbere ku meza bicayeho hakaba hateretswe ibyo kunywa, mudasobwa, bigaragara ko bateze amatwi ibyo babwirwa ndetse bigaragara ko amatara arimo araka.

Abagabo babiri umwe wambaye umupira w' umweru undi wambaye umupira w'umuhondo bombi bakaba bambaye indorerwamo zabugenewe kureberamo, umwe akaba afashe indangururamajwi imbere ye hakaba hateretse icupa bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama.

Abantu benshi bicaye bateraniye hamwe, imbere ku murongo w'imbere hakaba hicayemo umupolisi wambaye impuzankano ya polisi, ahantu hateye sima y'umutuku. Imbere hakaba har'imeze iteretseho indangurura majwi ndetse n'umuti wica ubusimba bwo mu ntoki. Bigaragara y'uko bari mu nama.

Abamama bane bicaye imbere yabo harambitse amatelefone ndetse n'amazi ku meza irambuweho igitambaro kiri mu ibara ry'ubururu, inyuma bigaragara ko hicaye n'abandi mu ntebe zitandikiwe ibitambaro by'umweru bigaragara ko hari ibirori bitabiriye.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi, hagati hakaba harimo icyagenewe gushyirwamo indabyo ndetse n'ameza atwikirije igitambaro cy'umweru, hejuru y'ameza hakaba hateretseho amacupa arimo ibyo kunywa, bigaragara ko hari ibyo bari kuganiraho, inyuma igikuta cy'inzu kikaba cyometsweho amakaro.

Abantu bicaye bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama imbere yabo hakaba hateretse amacupa arimo ibyo kunywa bitandukanye, ndetse n'ibyagenewe kurangurura amajwi, inyuma hakaba hateretse igikoresho cyabugenewe mu gufata amafoto bigaragara ko bari mu cyumba cy'inama, inzu irimo ibyagenewe gushyirwa mu birahure no mu madirishya kugirango urumuri rutaba rwinshi mu nzu.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi bigaragara ko aribyo bari kumva, mu ntebe zegamirwa hakurya hakaba hari ibirahure bibonerana bigaragara ko inyuma hari ubusitani bw'ibiti, igikuta giteye irangi ry'umweru ndetse n'amatara akaba arikwaka muri iyi nyubako.

Umugabo umwe, babiri, batatu, babiri, bambaye indorerwamo zabugenewe zo kurebera imbere yabokaba bateretse mudasobwa zibafasha mu ikoranabuhanga umwe akaba yambaye ikote ry'umukara yicaye mu ntebe y'umukara hakurya mu kirahure hakaba hagaragaramo ibiti birebire cyane.

Abantu bicaye mu nzu, bigaragara ko bari kuganira, imbere yabo hateretse mudasobwa ndetse n'amacupa arimo amazi, amatelefone, umugore wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo ndetse bakaba bari mu nzu, amadirishya arimo ibitambaro bishinzwe gutuma urumuri rutinjira mu nzu.

Umukobwa wambaye umwenda uri mu ibara ry'umuhondo, ufite ikaramu mu ntoki, imbere ye hateretse amazi, akaba ari kwandika ndetse yegeranye n'umuhungu wambaye ishati iri mu ibara ry'ubururu inyuma yabo hakaba hari abandi bantu benshi, bigaragara yuko bari mu nama cyangwa se hari ibindi bintu bari kumva.

Icyumba cyagenewe inama cyicayemo abantu benshi amatara akaba ari kwaka hejuru ndetse n'ibitambaro byagenewe kurinda urumuri rwinjira mu nzu hakurya hakaba hari icyapa kiriho inka ndetse ku meza hakaba hariho ibyo kunywa n'indangururamajwi nyinshi bicaye mu ntebe zegamirwa z'imikara.

Abagabo bicaye mu ntebe zifite ibara ry'umukara, inzu ifite ibirahure by'umweru byererana. Bigaragara ko bicaye hari ibyo bari kumva; imbere yabo hateretse amacupa y'amazi ndetse n'amaterefone yabo, rwose bigaragara ko bakurikiye ibyo babwirwa.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, bambaye imipira y'umweru ndetse bikaba bigaragara ko imbere ya bo hari ameza ateretseho amacupa y'amazi, ndetse n'ibitabo, bigaragara ko bari mu inama barimo baragani.

Abantu benshi bicaye bigaragara ko hari ibyo bari kumva, inyuma yabo haparitse imodoka zagenewe gutwara imicanga amabuye ndetse n'amagaraviye bicaye mu ntebe zegamirwa zisa umweru bigaragara ko izuba riri kwaka .

Umugabo wicaye mu ntebe y'umukara yegamirwa, imbere hakaba hari mudasobwa ndetse n'indangururamajwi ifasha kugira ngo amajwi agere kuri benshi, n'icupa ry'amazi ryegeranye na mudasobwa, inyuma hakaba hari igikuta kiriho ibishushanyo biri mu mabara y'ubururu.

Icyumba cy'inama kirimo abantu bicaye bateze amatwi, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye umupira utukura isaha ku kuboko, ndetse ufashe indangururamajwi bigaragara ko hari icyo ari kubabwira, imbere hakaba hateretse neza ariho icyo kunywa ndetse na mudasobwa zibafasha mu kugenzura ibyavuzwe mu nama.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu, imbere yabo hakaba hari undi wambaye ishati y'umweru ndetse ufite mudasobwa imbere ye ameza ateretseho amacupa arimo ibyo kunywa ndetse n'ibyapa bigaragara ko biri kwamamaza, hariho ibendera ry'urwanda na mudasobwa nini cyane ibateretse imbere bari kureberamo ibyanditswe.

Abantu benshi bicaye bishimye bakaba bicaye mu ntebe zifite imifariso y'umutuku, ndetse n'ibyuma by'umuhondo, bigaragara ko bitabiriye inama, bamwe bafite ibikapu ndetse n'amacupa y'amazi.

Muri sale harimo abakobwa b'abayisilamu bitandiye n'abahungu n'abandi bana bambaye udupira tw'umuhondo, bameze nk'aho bari mu nama bakurikiye ikiganiro.

Abagabo batatu bambaye amakoti y'umukara ndetse bari kumwe n'umudamu, bicaye mu ntebe z'imikara ndetse ku meza hakabateretse amacupa harimo amazi yo kunywa imbere yabo hakaba hari indangururamajwi zabugenewe bavugiramo.

Abaturage barimo abamama ndetse n'abagabo ndetse n'ushinzwe umutekano, bafashe ibiziriko biziritse ihene bigaragara ko arizo bamajije guhabwa, hakurya hakaba hari amazu yabo ndetse n'ntoki hakurya ibendera ry'igihugu hagati yabo.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu bambaye amakoti n'abamama, imbere yabo hakaba hari ameza atwikije ibitambaro by'umukara, hejuru hateretseho amacupa yo kunywa, iyi nyubako harimo hejuru amatara akaba ari kwaka, inzu zifite ibirahure byererana zisizwe irangi ry'umukara, ibikuta bitewe amarangi y'umuhondo.

Abantu bicaye mu bisate bitandukanye abakobwa batatun'abahungu batatu bambaye imyenda y'umweru n'umukara n'ingorero z'umweru, abakobwa bisukishije imisatsi, ameza atwikirijeho ibitambaro, hasi hari amakaro, bari mu nama imbere yabo hari umugabo uri kuba ubayoboye mu nama.

Aba mama benshi bicaye ku dutebe twa kera; ndetse imbere yabo hakaba hari n'undi mu mama bigaragara ko hari ibyo ari kubabwira; inyuma yabo hakaba hari imodoka nini zitwara abagenzi ku buryo bwa rusange; ndetse n'ibyapa ku mihanda bimeze nkaho byamamaza bicaye bumva icyo bababwira.

Icyumba cy'inama kicayemo abantu benshi harimo n'umupolisi ndetse imbere yabo hakaba ari ameza yateretseho mudasobwa, amacupa arimo ibyo kunywa, ibikuta biteye amarangi y'umweru ndetse n'ibyapa byerekana ibijyanye n'insanganyamatsiko, bari kuganira ku bijyanye n'iyo nsanganyamatsiko.

Abantu benshi bahagaze bafite urupapuro rwamamaza rusa umweru rwandikishwa amagambo y'umukara bigaragara ko bari kwamamaza, imbere yabo hakaba hari umugabo wambaye imyenda bigaragara ko ari umupolisi ingofero y'umukara, hakurya hakaba hari inyubako ndende byerekana ko hari ibyo bitabiriye.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu mu buryo bw'uruziga, bigaragara ko hari ibyo barimo barumva, imbere yabo hari ameza ateretseho amacupa arimo amazi yo kunywa, mudasobwa zibafasha kugenzura inama, ndetse bakaba bafite n'ikibagaragariza amashusho ku gikuta.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu harimo ingabo z'igihugu ebyiri, ndetse n'abaturage basanzwe. Inyuma yabo hakaba hari icyapa cyanditswe mu mabara y'umweru n'ubururu handitsemo ngo; ingengo y'imari y'imihigo bigaragara ko bari mu nama ijyanye n'iyi mihigo.

Mudasobwa iri kwaka iri kugaragaza amabara y'ubururu bwijimye mu magambo y'umweru handitsemo irembo, bigaragara ko ari ibirango by'irembo biri muri mudasobwa.

Umunara wabugenewe mu itumanaho ndetse ukaba wikoreye n'ibindi bikoresho biwufasha mu itumanaho, hakurya yawo hakaba hari ibiti, ndetse hasi hakaba hari n'ibindi byuma biwufasha mu itumanaho ikirere gikeye cyane rwose.

Imodoka iri kugenda mu muhanda ndetse na moto iparitse ku nzu nini cyane yubatswe mu buryo bw'amatafari ahiye. Hari akazu gatewe irange ry'umweru ndetse n'abagabo babiri bari gutambuka inyuma y'imodoka.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu bwijimye, hakaba handitseho amagambo mu ibara ry'umweru, aho handitseho visiti Rwanda ndetse n'ikirangantego, bigaragara ko ari icyapa cyamamaza ibintu.

Umunara muremure wagenewe itumanaho ndetse n'ibikoresho byawo biwukikije bigaragara ko ikirere gikeye rwose, akazuba kari kwaka ndetse hakaba hari n'undi biteganye nawo wikoreye ibikoresho bifasha mu itumanaho.

Umuhanda uca impande y'inzu ifite icyapa cyanditseho irembo urugi ruteye irangi ry'umukara ibirahuri byijimye hariho icyapa cy'ububiko bw'amafaranga bakunze kwita beka yacu, bigaragara ko hari n'amatara yo ku muhanda ndetse n'imodoka iri kuzamuka yinjira mu muhanda.

Iyi nzu bigaragara yuko umuryango ukinguye uteye irangi ry'umweru igikuta naryo giteye irangi ry'umweru hasi akaba ari amakara y'umweru akeye hejuru hakaba hariho icyapa cyanditseho irembo mu magambo y'umweru ndetse bigaragara ko hano batanga ubufasha ku bijyanye n'irembo.

Umunara muremure wagenewe itumanaho, ufite ibyuma biteye irangi ry'umutuku, ndetse ukaba ukijwe n'ibindi byuma biteye irangi ry'umweru, hakaba hari abagabo bambaye imyenda yabugenewe bigaragara ko baje gukora ibyangiritse.

Umunara w'itumanaho ukikikijwe n'ibiti bigaragara yuko wubakiwe mu ruzitiro rw'ibyuma, hasi hakaba hari ibindi bikoresho biwufasha mu gukora neza, ukikijwe n'inzu ifite urugi rutewe irangi ry'umukara bigaragara yuko igihe igihu gikeye hari kwaka akazuba.

Abantu bafite telefone mu ntoki, imbere yabo ha bakaba batetse mudasobwa bigaragara ko hari ibyo bari kwigaho, ndetse inyuma ya mudasobwa bakateretse amacupa y'amazi yo kunywa, bigaragara ko hari ibyo bari gukora bijyanye n'iterambere.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano y'umweru bafite mudasobwa ziteretse imbere yabo ndetse n'abandi bagabo bambaye amakoti y'umukara, bigaragara ko bari kwigishwa izi mudasobwa inyuma yabo hakaba hari ikibaho bandikaho barimo bariga.

Umunara bafatiraho amarezo bigaragara y'uko ikirere gicyeye hariho n'ibindi bikoresho biwufasha mu gushaka amarezo, ufite amabara y'umweru n'umutuku ndetse n'andi mabara, ukikijwe n'ibindi bikoresho biwufasha gushaka amarezo.

Akazu kari mu mabara y'umuhondo n'umukara ndetse gafite amagambo yanditswe mu mabara y'umukara, kegeranye n'ibiti by'imigano, kari ku muhanda kegereye akayira k'abanyamaguru. Hakurya hakaba hari inyubako ndende n'insinga z'amashanyarazi hejuru yako, gahagaze mu busitani.

Urupapuro rw'umweru ruriho amagambo y'irembo, avuga uburyo bushya bwo kwandikisha umuryango utari uwa leta, bigaragara ibiganza by'umuntu biri kwandika ibijyanye na serivisi z'irembo, bigaragara ko ari urwego rw'igihugu rw'imiyoborere.

Icyapa gifite ubuso buri mu bururu bwijimye bigaragara ko ari irembo handitseho amagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda aho handitse ngo serivisi nshya ku rubuga irembo gov, hasi hakaba handitse ngo icyemezo cy'utishoboye wacitse ku icumu rya jenoside .

Ibiganza bigaragara ko biri gukora kuri mudasobwa ndetse n'igikoresho cyagenewe mu itumanaho imbere hakaba hari izindi mudasobwa nyinshi ndetse inzu iteye amarangi y'umweru bigaragara ko harimo n'ameza.

Abagabo babiri; umwe wambaye ingofero yo mu ibara ry'ubururu n'umupira w'umweru, uhagaze, undi akaba yicaye, imbere yabo hateretse imashini ifotora impapuro, bigaragara yuko bakoresha serivisi z'irembo, bagafasha abakiriya.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umweru rwanditsemo amagambo y'irembo umuntu wambaye umupira w'ubururu ufite terefone mu ntoki uri kwerekana ibijyanye n'irembo ufite terefone umeze nk'uri kwamamaza.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye amashati y'umweru, amapantaro ndetse n'amajipo by'umukara, ishuri rifite ibikuta biteye amarangi y'umweru. Imbere yaho ku meza hateretse mudasobwa bigaragara ko barimo bariga ibijyanye n'iterambere rya mudasobwa.

Inzu mberabyombi ikorerwamo inama, hakaba harimo haraberamo inama y'abantu benshi batandukanye, bicaye ku ntebe z'imikara bazengurutse, n'abandi bicaye ku ntebe z'imikara inyuma yabo hari imeza imwe ifite ibara ry'umutuku kuri ayo meza harihoho amatelefone n'amamikoro yo kuvugiramo.

Umunara muremure wagenewe kwifashishwa mu ikoranabuhanga ndetse n'itumanaho, ukikijwe n'ibyuma biwuzengurutse mu gihe cy'umugoroba ikirere bigaragara ko izuba ririmo rirarenga, ndetse ukaba ufite n'ibindi bikoresho biwufasha mu itumanaho.

Abantu bicaye benshi bisa nk'aho ari abanyeshuri ameza ateretseho mudasobwa bigaragara ko bari kwiga bicaye mu matsinda mu nzu itewe amarangi y'umweru kandi bigaragara y'uko bakurikiye amasomo.

Umunara wikoreye insinga z'amashanyarazi ndetse ukikijwe n'ibiti hakurya hakaba hari ishyamba, igihe ikirere cyijimye gisa ubururu bigaragara ko ari igihe cy'akagoroba.

Ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi rihagaze mu ntoki ndetse rikikijwe n'ibiti bigaragara ko bari guha abaturage amashanyarazi hirya hakaba hari urugo ruzitiwe n'ibyuma.

Ndimo ndabona tansifoma, hirya hari amazu, insinga hejuru, ibiti hirya y'inzu, hasa nk'aho ntazuba riri kuva, amapoto akaba azitijwe ibintu by'ibyatsi.

Umunara muremure wikoreye insinga z'amashanyarazi nyinshi hasi hakaba hari amamodoka menshi ndetse n'amapikipiki hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'amatara yo ku muhanda bigaragara ko aha hantu hahurira abantu n'ibinyabiziga byinshi.

Inyubako igaragaza ko ari iyubucuruzi yubakishije amatafari ahiye imbere yaho hakaba hari ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi ndetse n'itara rimurikira umuhanda, hasi hakaba hacururizwa ibyo kuryamaho ndetse hakaba ari n'intebe y'umweru bicaraho n'imyenda imanitse hejuru bigaragara ko icuruzwa .

Inyubako ifite ibirahuri by'umukara byijimye ku muhanda wa kaburimbo uriho amatara yo ku muhanda ndetse amapoto yikoreye insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko umuhanda ukikijwe n'ibiti, imodoka ziparitse ku muhanda ndetse n'icyapa cyerekana ko hari ikorosi imbere n'umumotari uri mu muhanda.

Amapoto yikoreye insinga z'amashanyarazi menshi akikijwe n'ibiti birebire, ndetse akaba ari ku muhanda w'igitaka, bigaragara ko hari n'umuntu uhagaze, hakurya hakaba hari inzu zisakaje amategura ndetse bikaba bigaragara ko ikirere kijimye kigiye kugusha imvura

Ibikoresho bigaragaza ipoto ry'amashanyarazi aho abaturage bakura amashanyarazi, hasi hari ibyatsi inyuma yaho hari igipangu bigaragara ko hari inzu ifite amabati y'umutuku ndetse n'ibiti bikikije ipoto ry'amashanyarazi.

Ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi, rikikijwe n'ibiti ndetse bigaragara ko ari igihe ikirere gikeye ku buryo izuba riri kwaka.

Umunara utwaye insinga z'amashanyarazi, hirya y'aho hari ishyamba ndetse n'inyubako, bigaragara ko ni inyubako zegereye uyu munara utwaye amashanyarazi ikirere gikeye ndetse n'ibindi bintu bijyanye n'amashanyarazi.

Imodoka itwara abagenzi ku buryo bwa rusange, ndetse n'ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi ndetse n'itara rimurikira umuhanda, hakurya hakaba hari ibiti n'inyubako nyinshi bigaragara ko ari imiturire.

Agasanduku kabika ibikoresho by'amashanyarazi kubabatse ahantu hari ibyatsi hakurya hakaba hari urugo ruzitiye inzu rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibiti, bigaragara ko muri uru ruzitiro harimo inyubako mo imbere.

Umunara wikoreye insinga z'amashanyarazi bigaragara ko wubatse ahantu hakikijwe n'ibyatsi, hakurya hakaba hari umusozi mu kirere kererana ndetse n'ibiti bikikije uyu munara bigaragara yuko hari n'umuhanda w'igitaka kuruhande rwawo.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara akaba ahetse igikapu cy'umukara bigaragara ko ari kugenda mu muhanda w'igitaka hakurya hakaba hari ibiti byikoreye insinga z'amashanyarazi bigaragara ko ari mu mirima ihingwamo hakurya akaba ari ishyamba ndetse n'imiturire bigaragara ko ikikijwe n'ibiti byinshi.

Ibiti byikoreye insinga z'amashanyarazi, ndetse n'amatara yo ku imihanda. Bikaba bikikijwe n'ibiti. Bigaragara ko hari ubusitani, hakurya hakaba hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye. Ikirere kijimye gisa nkaho kigiye kugusha imvura.

Umunara wagenewe gutwara insinga z'amashanyarazi uteretse igikoresho giha abaturage umuriro, ukikijwe n'ibiti byinshi igihe izuba ririmo riraka ikirere gikeye neza.

Ipoto ryikoreye amatara amurikira ku muhanda rikaba ryagereranye n'icyapa cyerekana ko imbere hari akadunduguzi bikabwira umushoferi kugenda gake hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'abantu bigaragara ko bari kugenda mu muhanda n'imodoka iri kumanuka.

Umunara wikoreye insinga z'amashanyarazi wubatswe ahegereye ishyamba bigaragara ko bari guha abaturage umuriro mu gihe ikirere cyijimye kimeze nk aho kigiye kurekura imvura ndetse n'amazu akikije uwo munara.

Abantu bicaye munsi y'akayira gasakaye ndetse n'undi urimo uragenda amabuye atewe amarangi y'umuhondo ndetse n'imikara mo hagati ibyuma bikikiye utuyi abantu bacamo hakurya hakaba hari ibigega ndetse n'ubusitani bw'ibyatsi.

Imodoka zihagaze ahabugenewe ndetse bigaragara yuko hari amatara ashinzwe kumurika hakurya hakaba hari ibiti bikikije aha hantu izi modoka ziparitse urugo rwubakishije amatafari ahiye ndetse n'inyubako iteye amarange y'umuhondo.

Inyubako yubakishijwe amatafari ahiye hejuru ikaba ifite amabati mu ibara ry'ubururu, hakurya hakaba hari imisozi ndetse n'ibiti birebire ibyatsi by'ubusitani, imbere y'iinyubako bigaragara ko ari ahantu h'ikigo cy'amashuri.

Inyubako yubakishijwe amatafari ayihe, ndetse akaba hari n'ibyuma bizitiye, isakaye, bigaragara ko ibitse ibikoresho byo kwa muganga byagenewe gutanga umwuka ku bantu bafite umwuka mukeya, ndetse n'ibyatsi bigize ubusitani.

Inyubako iteye amarangi y'umweru ndetse hasi umukara, ikabasakajwe amabati atukura, ubusitani bw'ibyatsi ndetse n'indabyo zizengurutse, bigaragara ko ari ahantu batangira ubufasha.

Amazu menshi bigaragara ko harimo igiti mo hagati hakurya inzu iteye irange ry'umweru ndetse n'urukuta rw'amatafari ahiye n'icyapa cyanditseho Nyarugenge disitirigiti hosipito bigaragara ko hano ari kwa muganga.

Inyubako irimo amakaro y'umweru, parafu iteye irange ry'umweru ndetse n'urugi rukinze rurimo icyapa cyigaragaza ko hinjira abantu babana n'ubumuga ndetse bigaragara ko hirya muri uyu muryango ari mubwiherero rusange.

Inyubako zigeretse zisakajwe amabati atukura, hasi hakaba hari ubusitani bw'ibyatsi, hirya yaho hakaba hari igiti kirekire, hakurya hakaba hari umusozi bigaragara yuko ikirere gikeye n'imyenda yanitse ku byuma byabugenewe munsi y'aya mazu.

Inyubako nyinshi zifite amabati atukura, amatara amurikira uduhanda duca hagati munyubako, jaride irimo ibyatsi, indabyo ndetse n'ibigega bifata amazi hakurya hakaba hari inyubako ndende ifite itewe irange ry'umweru ndetse n'ikirere gikeye.

Urukuta rwubakishije amatafari ahiye, hariho icyapa kigaragaza ko bavura amaso cyanditseho Kabwayi, hirya hakaba hari inyubako isakaje amabati atukura ndetse n'uruzitiro rw'ibiti, bigaragara ko akazuba kari kwaka.

Imodoka ziparitse hanze, bigaragara ko ari aho bivuriza, icyapa cyerekana aho bafatira imiti, ibiti birebire, ndetse n'inzu igeretse bigaragara yuko iteye irangi mu ibara ry'umuhondo.

Umugabo wambaye ingofero y'umukara irimo akabara k'umuhondo ndetse n'ikanzu y'umutuku imbere harimo ishati y'umweru imbereye hakaba hateretse igikoresho cyagenewe mu kurangurura amajwi bigaragara ko ari umucamanza hari ibyo ari kubwira abantu .

Ahantu abantu benshi bateraniye hari abambaye impuzangano y'imgungwa bahagaze ndetse n'imodoka iri mw'ibara ry'umweru iri guturuka imbere, ndetse n'undi muzungu w'umugore n'umugabo bicayeku ntebe. Bigaragara ko bari gucibwa imanza, ndetse bakikijwe n'ibiti.

Abantu benshi bicaye, abamama, abapapa bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse n'ameza abateretse imbere, abagabo abenshi bakaba bambaye amakoti y'umukara n'amashati y'umweru, hakurya hakaba hari ibiti ndetse hagati yabo hakaba hari uwambaye iroza bigaragara ko yaje kuburanishwa.

Imodoka bigaragara ko ziri kugenda mu muhanda wigitaka ukikijwe n'ibiti byinshi bimeze nk'aho ari ishyamba, ndetse n'uruzitiro rugizwe n'ibyuma biteye irangi mu ibara ry'umutuku, bigaragara ko bari kwerekana inkiko gacaca ndetse n'abantu bifashe mu gahanga.

Abakobwa babiri, umwe wambaye indorerwamo zabugenewe kureberwamo ndetse n'umwambaro mpuzankano w'imfungwa, uri kumwe n'ushinzwe umutekano wiwe na we w'umukobwa wambaye ingofero y'umukara n'imisatsi igera mu mugongo, bigaragara ko ari kumukuramo ibyagenewe kwambikwa imfungwa kugira ngo zidacika.

Umubyeyi wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, ndetse akaba yambaye ikote ry'umutuku bigaragara ko inyuma ye hari igikuta kiteye irangi ry'umweru. Urimo ureba ameze nk'aho hari ibyo yitegereza.

Abantu bicaye mu mpande, hagati harimo umwanya uhagazemo umugabo, imbere hakaba hari abandi bicaye, byerekana ko hari ibyo bari kumubaza, bicaye ku ntebe z'abanyeshuri, hakurya hari inyubako ndetse zikikijwe n'uruzitiro rw'imiyezi.

Abantu babiri bicaye umugabo n'umugore bambaye udupfukamunwa bicaye imbere yabo hari za mudasobwa, urukuta ruri mu ibara ry'umweru bigaragara ko hari ibyo barimo bijyanye n'ikoranabuhanga, bambaye imyenda y'imikara ndetse harimo n'amabara y'umweru.

Igipangu kirekire cyubakishijwe amatafari ahiye mu mabara y'umugondo, ndetse n'imfungwa z'abamama zambaye impuzankano yabafungwa barimo baragenda ku butaka ndetse bigaragara yuko ari gereza ya Nyarugenge.

Ifoto iriho abagabo benshi bamwe baciwemo imirongo bigaragara ko bafunzwe ndetse bikaba bigaragaza yuko aba bagabo barimo barahigwa kubera icyaha bakoze. Bamwe bagiye bambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo.

Umubyeyi wambaye ikanzu y'iroza ufite indangururamajwi wambaye indorerwamo zabugenei zo kureberamo ndetse n'amaherena inyuma ye hakaba hari urukuta ruteye irangi ry'umweruru ndetse n'umuhondo uhagaze imbere y'igikoresho cyabugenewe mu gushyirwaho ibintu.

Abantu benshi bicaye, bamwe bicaye mu byatsi abandi bicaye ku ntebe, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho impapuro, hagati hakaba hari umugabo uhagaze mu byatsi bigaragara ko hari ibyo ari kubazwa, hirya ye hakaba hari umuzungu wicaye, ufashe indangururamajwi.

Abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu, batandatu, abagabo ndetse n'abakecuru bigaragara ko bari kwandika ibintu bafite ibitabo birambitse ku meza inyuma hakaba urukuta ruteye irangi ry'umweru bakaba bambaye ikirangantego cy'ibendera ry'u Rwanda cyanditseho ngo komite.

Abagabo batatu umwe ushinzwe umutekano w'imbohe n'undi wambaye imyenda y'abacamanza n'umugabo urimo uraburanishwa Kizito Mihigo bari bameze bari munzu mu rukiko bareba baganira ku bijyanye n'ibyaha yakoze.

Abagabo bicaye mu cyumba cy'inama bafite mudasobwa, bambaye amakositimu y'umukara amashati y'umweru, ndetse n'undi mugabo uhagaze wambaye agapfukamunwa n'ikanzu y'umweru mo imbere harimo ishati y'umukara, n'umumama hirya yambaye agapfukamunwa bigaragara yuko bari mu cyumba cy'inama bari mu bintu bijyanye n'ubucamanza.

Abagabo babiri bambaye amakanzu y'umutuku, ingofero zirambitse ku meza ndetse n'amazi, inyuma yaho hari tereviziyo imanitse ku rukuta rw'umweru umwe ufite mikoro arimo aravuga undi wifashe ku munwa bicaye mu ntebe z'umukara, bigaragara ko ari abaca imanza.

Abantu bicaye bumva ibiganiro, hagati yabo harimo imfungwa yambaye imyenda y'imfungwa, bigaragara yuko bari kuburanishwa, inyuma yaho hari ibiti, ndetse n'amazu afite amabati atukura, bigaragara ko hakikijwe n'amazu, n'inyubako nyinshi, n'umuhanda.

Abagabo batatu, umwe wambaye ikositime n'isaha ku kuboko, n'abandi bambaye impuzangano y'ifungwa, bigaragara ko bari gusohoka mu muryango, mu gihe cy'umugoroba hijimye cyane, ku nzugi zifite ibyuma bitewe irange ry'umukara.

Umu mama wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, imbere hakaba hatetse indangururamajwi bigaragara ko ahagaze hari ibyo ari kubwira abantu inyuma ze hakaba hari abandi bamama babiri ndetse n'kamufasha guterekwaho ibikoresho, gatewe gasa umutuku.

Umugabo wambaye ikanzu y'umutuku ndetse n'ishati mo imbere y'umutuku, inyuma ye hakaba hari igikuta giteye irange ry'umweru bikaba bigaragara ko ari umucamanza wagenewe guca imanza hagati y'abaturage.

Abagabo babiri bombi bambaye udupfukamunwa, umwe wambaye ikanzu y'umukara irimo ishati y'umweru, undi wambaye impuzankano y'imfungwa imbere yabo hateretse mudasobwa, amazi yo kunywa bameze nkaho barikwerekana ibintu biri muri mudasobwa.

Icyumba cy'inama cyicayemo abantu benshi, umumama n'umupapa bicaye imbere, aho mama yambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo, umupapa akaba yambaye ikote ry'umukara na karuvati irimo amabara atandukanye, imbere yabo hakaba hateretse ibirahuri byo kunyweramo, bigaragara ko bari mu nzu iberamo inama.

Umuhanda urimo imodoka yagenewe gutwara abantu ku buryo bwa rusange, ndetse imbere yaho hakaba hari moto n'umupolisi uri guhagarika imodoka wambaye imyenda yabugenewe, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi ndetse bigaragara ko izuba riri kwaka.

Igikoresho bakunze kwita umupira cyagenewe mu kwifashishwa kuzimya inkongi z'umuriro, kimanitse ahabugenewe ku rukuta ruteye irangi ry'umweru, hakurya hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo y'umweru n'umuhondo bigaragara ko ari igikoresho gifite ibara ry'umutuku.

Iinyubako iparitsemo imodoka nyinshi, ndetse bigaragara ko ari kuri polisi, inyubako iteye irangi ry'umweru hejuru ikaba ifite akantu k'umukara, hakurya haakaba hari umusozi, ndetse n'igiti kiri hejuru y'inyubako.

Imodoka ihagaze ndetse n'umupolisi uri kugenzura ibyangombwa by'umushoferi ko byuzuye ndetse ku mpuzankano yiwe hakaba handitseho Rwanda polisi, wambaye ingofero y'umukara n'amaherena y'umweru, inyuma hakaba hari urugo rwubakishijwe amatafari ahiye bigaragara ko bari kumubaza uko byifashe.

Ibikoresho biri mu ibara ritukura bikaba bishinzwe gukoreshwa mu kuzimya inkongi z'umuriro, bikaba bigaragara bifite andi mabara y'umukara biteretse ahantu bigaragar a yuko hari urugo hasi hakaba hari sima.

Abantu bari kugenda mu tuyira twabanyamaguru hahagazemo n'umuporisi, inyuma yaho hari ishyamba ndetse n'amatara yo ku mihanda n'iminara itwara ikorera insinga z'amashanyarazi.

Bigaragara ko abapolisi babiri bahagaze aho abagenzi bicara bategereje imodoka, bambaye inkweto z'umukara mumyenda ya gipolisi. Hakikijwe n'urupangu rurimo ibiti imbere n'inyuma bigaragare yuko bacunze umutekano wo mu muhanda.

Ibikoresho byagenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro bigaragara ko biri mu ishashi yabyo, bimwe bifite imipira y'umukara biteretse ahantu hamwe mu gihe cy'umugoroba ndetse biri mu ibara ry'umutuku.

Iki ni icyapa cyerekana nyamirambo ribu sitesheni, harimo n'abantu bari kugaragara ibice by'amaguru gusa bambaye amapantaro atukura, inyubako hirya kikaba gitereye ahantu hatwara amazi n'ibintu by'ibiti ruguru yacyo.

Abantu bahagaze barimo barareba uburyo ki abashinzwe kuzimya inkongi z'umuriro babikora, inyuma yabo hakaba hari imodoka ibatwara iri mu ibara ry'umutuku, hejuru bikaba bigaragara yuko hari amapoto y'amashanyarazi yikoreye insinga z'umuriro, bakaba bari mu myitozo y'uburyo ki bazimya inkongi y'umuriro bereka abaturage.

Igikoresho cyagenewe gukoreshwa mu kuzimya inkongi z'umuriro. Gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umupira wo hejuru w'umukara, bigaragara ko giteretse ahantu inyuma hari igikuta gifite irangi ryenda gusa umukara.

Ibikoresho byagenewe kuzimya inkongi z'umuriro bigaragara ko hari aho bibikwa bifite ishusho y'umutuku imipira bakoresha bacomeka kugira ngo bazimye inkongi y'umuriro biri ahabugenewe.

Igikoresho kimanitse ku gikuta cy'inzu cyagenewe mu kuzimya inkongi y'umuriro, gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru n'aho bafata ku rukuta ruteye irangi ry'umweru, hasi hakaba hari amakaro ndetse n'agakoresho kagenewe gushyirwamo imyanda hasi.

Umupolisi wambaye impuzankano za gipolisi, wahagaritse imodoka, uri kureba ko umushoferi w'imodoka yujuje ibyangombwa, akaba afite n'igikoresho mu ntoki cyabugenewe kireba ko ibyangombwa bitari ibipiratano, ndetse inyuma hakaba hari n'izindi modoka.

Inyubako iriho icyapa kigaragaza ko ari icya polisi y'u Rwanda ishinzwe umutekano w'ikirangantego cy'abapolisi mu magambo yandikishije ubururu kimanitse ku nyubako ndetse hakaba hagaragara n'ibyuma bituma abantu badashobora kumanuka mu nyubako hejuru.

Imodoka iri mu ibara ry'umweru n'indi iri mu ibara ry'umukara, umupolisi wambaye impuzanggano za gipolisi uri guhagarika izi modoka, hakurya hakaba hari amatara amurikira umuhanda, ndetse n'ibiti bikikije umuhanda.

Icyumba cyagenewe gukorerwamo inama bigaragara ko abantu bicayemo ari benshi, amatara akaba ari kwaka ndetse hakaba hari umugabo uhagaze imbere uri kubabwira ibijyanye n'inama, imbere ye hakaba hari indangururamajwi yabugenewe ndetse akaba yambaye n'indirerwamo zabugenewe zo kureberamo.

Abantu bahagaze barimo abadamu bakenyeye imikenyero ndetse n'abagabo bambaye amakoti y'umukara, imbere hagati hakaba hari perezida Poro Kagame bakaba bari ahantu amatara arimo araka ibikuta biteye amarangi y'umuhondo.

Perezida Polo Kagame uyobora igihugu cy'u Rwanda ahagaze munsi y'amahema, yambaye ingofero y'umukara, umupira w'umweru, ipantaro y'umukara, inyuma hakaba hari abantu benshi bicaye mu ihema, bigaragara ko ari kwiyamamaza inyuma y'ihema hakaba ari ibiti birebire.

Umugabo wambaye ishati y'umweru ufite mikoro urimo uravuga, inyuma ye hari abandi bagabo babiri bambaye ishati z'umweru n'udukoti tw'umukara, inyuma yabo hakaba hari imodoka bimeze nkaho barimo baratanga ikiganiro.

Abantu benshi batonze umurongo, binjira mu nzu bigaragara ko ku nkingi hari ibitambaro byo kugira ngo hase neza hakurya hakaba hari ibiti bigaragara ko batonze umurongo haribyo baje gukurikirana cyangwa se ubufasha baje guhabwa.

Umugabo wambaye ingofero y'umweru ndetse n'indorerwamo zabugenewe zo kureberamo imbere hakaba hari indangururamajwi nyinshi bigaragara y'uko ari abanyamakuru bamuri imbere bamubaza uko byagenze nyuma hakaba hari ibyapa bigaragaza amagambo menshi cyane.

Impapuro ndetse ziriho amafoto y'abantuge atandukanye, ndetse n'amakaramu yifashishwa mu kwandika, birambitse ku meza iriho igitambaro cy'umweru ndetse n'impapuro zizinze z'umweru, bigaragara ko hari impapuro zerekana abari kwiyamamarizwa gutorwa.

Umugabo n'umugore bicaye mu ntebe z'umukara, imbere yabo hakaba hateretse mudasobwa, amazi ndetse hakaba n'utuyungururamajwi. Bombi bambaye amalineti cyangwa se indorerwamo zo kireberamo, bigaragara ko haribyo barimo barumva.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara ndetse wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo. Imbere ye hakaba hateretse icupa ry'amazi, uri kuvugira mu ndangururamajwi, wicaye mu ntebe z'umukara, uri gutanga ikiganiro.

Ikiganza cy'umuntu, aho ari kwerekana ko gahera hariho umuti werekana ko amajije gutora. Imbere ye hakaba hari igitambaro kiri ku mabara y'ubururu ndetse n'iroza, bigaragara ko amajije gutora no ku gikumwe.

Umumama wambaye imyenda isa umweru wamanitseho ibiganza byombi, wambaye isaha ku kuboko ndetse n'impeta, hakurya bigaragara ko hicaye abantu benshi ndetse n'umusozi, bigaragara ko arimo arashimira.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, karuvati y'umutuku, ishati y'umweru, imbere ye hateretse mudasobwa ndetse n'ibikoresho ndangururamajwi, umeze nk'urigutanga ikiganiro kuri televiziyo.

Umukecuru wazamuye ukuboko ufashe ku ibendera ry'igihugu, imbere ye hakaba hari indangururamajwi akaba yambaye indorerwamo zabugenewe, mu kureba yambaye umushanana, inyuma ye hari igikuta giteye amarangi y'umweru, bigaragara ko hari ibyo arimo ararahirira.

Abapolisi benshi bakikije umukuru w'igihugu mu myenda yabo y'umukara ndetse umukuru w'igihugu yamanitse ukuboko, yambaye ingofero y'umweru n'umupira w'umukara, mu busitani, ibyatsi, inyuma yaho hari ibiti ndetse n'abantu bicaye bambaye ibara ry'umweru. Bigaragara ko bari mu gikorwa cyo kwiyamamaza.

Abantu benshi bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu, imbere yabo hakaba hari ihema ririmo umukuru w'igihugu ufashe indangururamajwi, yambaye umupira w'umweru n'ipangaro y'umukara, hakurya hakaba hari ihema ririmo abantu benshi bakurikiranye ibiganiro by'umukuru w'igihugu.

Abantu bari kugenda mu muhanda, inyubako nyinshi zifite amabati ameze nk'amategura ndetse bigaragara yuko bitabiriye ubukwe, imbere yaho hari amatente y'ubukwe, ubusitani bukikijwe n'umuhanda ndetse n'imodoka iri kugenda.

Ifoto ya perezida Paul Kagame wambaye indorerwamo zabugenewe zo kureberamo ufite agapapuro amajije gutora, biragaragara ko ari mucyumba cy'itora inyuma ye hakaba hari madamu we ndetse n'undi muntu uri kubafasha mubijyanye n'amatora.

Umukandida wiyamamazaga guhatanwa ku mwanya w'ubuperezida, bigaragara ko yinjiye aho aje kwiyamamariza. Hakurya hakaba haparitse imodoka nyinshi n'uruzitiro rw'ibyuma ndetse n'inyubako nyinshi n'abanyamakuru baje gutara inkuru.

Perezida Polo Kagame ari kwiyamamaza yambaye imyenda y'ibirango bya efuperi yambaye ingofero y'umukara n'amarinete yamanitse ikiganza yafunze igipfunsi inyuma ye abantu benshi bigaragara yuko baje mu matora.

Igare rihagaze ku muhanda aho abanyamaguru bagendera, rihetse ibintu biri mufuka, inyuma yaryo hakaba hari guturuka moto ihetse umuntu mu muhanda wa kaburimbo, bigaragara ko ari igihe hari umucyo ndetse hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umukara ndetse na moto iri mu ibara ryenda gusa ubururu bwijimye, hakurya hari umunyamaguru urimo uratambuka bigaragara ko ari umuhanda nyabagendwa urimo n'ibimenyetso byo mu muhanda.

Umuhanda urimo imodoka ebyiri imwe yikoreye imizigo indi akaba ari imodoka ntoya yo kugendamo mugahanda k'abanyamaguru hakaba harimo umugenzi uri kugenda, hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda, ndetse n'izindi modoka ziparitse bigaragara ko ari igihe ikirere gikeye akazuba kari kwaka.

Amatara ari kwaka menshi bigaragara ko ari igihe cy'umugoroba, ndetse n'imodoka zirimo ziragenda n'abantu hakurya hakaba hari umusozi ikirere gifite ubururu bwinshi bigaragara ko hari igihe cy'umugoroba, ndetse n'ibikoresho byagenewe gutwarwamo imizigo bihagaze ku nkengero z'umuhanda mu byatsi.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, inyuma yayo hakaba hari umpolisi bigaragara ko ari mu muhanda wa kaburimbo. Hirya y'izi modoka hakaba hari amazu, insinga z'amashanyarazi ziri guca hejuru bigaragara ko ari mu muhanda ndetse inyuma hakurya y'aya mazu hakaba hari ishyamba.

Imodoka yagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusanga ariko bakeya ikaba iteye irange ry'umweru, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo hakurya hakaba hari ubusitani bw'ibiti ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, imbere yaho hakaba hari umumotari ndetse n'umunyagare. Hakurya hakaba hari izindi modoka ziparitse, umuhanda ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'ikiraro cyambukiranya umuhanda.

Umuhanda urimo imodoka ndetse n'amamoto, hakurya hakaba hari amazu ndetse n'umusozi ugizwe n'ishyamba, ipoto ryikoreye insinga z'amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku mihanda bigaragara ko ar'igihe cya mugitondo.

Imodoka itwara abagenzi ku buryo bwa rusange iparitse itegereje abagenzi, hakaba hicaye umuntu wambaye ikote riri mw'ibara ry'umuhondo. Ushinzwe gutanga ubufasha ku bakeneye amafaranga kuri telefone.

Imodoka iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, inyuma y hari umunyegare wegerenaye n'umumotari, inyuma yaho hakaba hari izindi modoka zirimo ziraza, umuhanda wo ukikijwe n'ibiti n'akayira k'abanyamaguru, kandi igihe ikirere gikeye.

Ikinyabiziga gitwara imizigo ndetse n'umugabo uri kugenda mukayira k'abanyamaguru hakurya hakaba hari amapikipiki ahetse abantu n'ibiti bikikije umuhanda bigaragara ko ari igihe cya kumanywa izuba ririmo riraka ikirere gikeye .

Imodoka itwara abagenzi ku buryo bwa rusange, iteye irange ry'umweru ndetse n'ibirahuri byijimye by'umukara n'indi biri kubisikana, umuhanda wa kaburimbo, hakurya hakaba hari ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Moto yagenewe gutwara imizigo yanditseho medi ini Rwanda (made in Rwanda) bigaragara ko ihagaze ku muhanda wa kaburimbo, impande y'akayira k'abanyamaguru, hakurya hakaba hari indi modoka yagenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange ihagazeho abantu ariko ikaba ihagaze itari kugenda.

Imodoka ndende yagenewe gutwara imizigo iriku kugend mu muhanda wa kaburimbo impande y'akayira k'abanyamaguru hakaba hari umuyoboro utwara amazi, hakurya y'umuhanda hakaba hari ibiti birebire bikikije umuhanda ndetse n'umusozi bigaragara ko uriho inyubako nyinshi.

Imodoka nini yagenewe gutwara imizigo ndetse n'umuntu wikoreye umufuka uri kugendera mu kayira k'abanyamaguru, inyuma hakaba hari moto zitwaye abagenzi hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'amatara amurikira umuhanda.

Umuhanda urimo imodoka iri kugenda, ibyapa byo ku muhanda, ndetse inyuma yayo hakaba hari moto, amapoto yikoreye insiga ndetse n'amatara yo ku muhanda ukijijwe n'ibiti n'amazu.

Imodoka iri mu ishusho ry'ubururu iri kubisikana na moto ihetse umugenzi, bombi bambaye ingofero zabugenewe zibarinda ubwirinzi mu muhanda. Hakurya yaho hari ibiti, ndetse umuhanda ugaragaza ko utameze neza wangiritse, n'akayira k'abanyamaguru.

Umumotari wicaye ku ipikipiki, wambaye inkweto zifunguye ndetse n'undi uri kumanuka, imbere ye hakaba hari imodoka iri kumanuka, hakurya hakaba hari amazu menshi ateye irangi ry'umuhondo ndetse n'ibipangu byegeranye n'uyu muhanda umanuka n'insinga z'amashanyarazi hejuru mu kirere, bigaragara ko uyu muhanda ukikijwe n'ibiti byinshi.

Imodoka ntoya iri mu muhanda wa kaburimbo yagenewe gutwara abagenzi, ariko bakeya, yanditseho ngo yego cabs, hakurya hakaba hari uruzitiro rukozwe mu biti, ndetse n'ipoto ryikoreye itara ryo ku muhanda, n'akayira k'abanyamaguru bigaragara ko umuhanda wangiritse.

Imodoka yagenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange iteye irangi ry'umweru, ndetse hakurya hakaba hari n'izindi modoka bigaragara ko hari ubusitani bw'ibyatsi bukikije umuhanda ndetse n'amatara yo kumihanda, hakurya hakaba hagaragara umusozi munini cyane uriho ishyamba.

Imodoka nini yagenewe gutwara imicanga, amagaraviye n'amabuye, iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo. Imbere yayo hakaba hari umunyegare, bigaragara ko hakurya y'umuhanda hari ibiti birebire ndetse n'inyubako zikikije umuhanda, n'utuyira tw'abanyamaguru.

Imodoka itwara abagenzi ku buryo bwa rusange, yacanye amatara bigaragara ko irimo iragenda. Hakurya hakaba hari umunara wikoreye insinga z'amashanyarazi, ndetse n'amatara mu baturage. Bigaragara ko ar'igihe cy'umugoroba, izuba ritangiye kurenga.

Imodoka ebyiri ziparitse ahantu ku nkengero yo ku muhanda, zikoreye imifuka hirya zayo hari ibiti, bigaragara ko zipakiye imizigo ndetse imwe itwikirije shitingi indi shitingi iri hejuru bidatwikiye.

Imodoka zagenewe gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange ebyiri; zihagaze ahabugenewe zifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru, ibirahuri by'umukara bigaragara ko zihagaze ahabugenewe zitegereje abagenzi.

Imodoka ntoya iri mu ibara ry'umweru, inyuma yaho hakaba hari moto ndetse ikaba iri kubisikana n'imodoka nini yagenewe gutwara abagenzi ku buryo bwa rusange ndetse bikaba birikugenda mu muhanda wa kaburimbo, hakurya hakaba hari akayira k'abanyamaguru bigaragara ko karimo n'abagenzi, umuhanda ukaba ukikijwe n'ibiti byinshi cyane bigaragara ko ikirere gikeye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka bigaragara ko bari gupakira ibyuma hejuru, inyubako zikikijwe zikikije umuhanda ndetse n'abantu batatu bari mu muhanda, inyubako isakajwe n'amabati y'umukara ndetse n'icyapa kiriho icupa, bigaragara ko bari kwamamaza inzoga

Imodoka itwikirije shitingi iriho ibyapa by'abantu, iri mumuhanda w'igitaka bigaragara yuko hari n'amatara yo mu mihanda, bigaragara yuko hari urukuta rw'amabuye rwometse, ndetse inyuma y'iy'imodoka hakaba harindi modoka iyiri inyuma bigaragara ko hari imizigo bari gukura mu modoka.

Imodoka itwara abagenzi ku buryo bwa rusange, bigaragara ko inyuma yaho hari umusaza wambaye ingofero ndetse uhetse n'igikapu, umugabo uri kuyica ku ruhande wambaye umupira utukura bigaragara ko ari gucuruza ibikoresho batwaramo amafaranga, bigaragara ko ari igihe izuba ririmo riraka aho imodoka zihurira.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo moto iruhande rwe hakaba hari umunyegare uhetse umugabo n'umwana, hakurya mu kayira k'abanyamaguru hakaba harimo undi muntu uri kugenda ukikijwe n'ibiti ndetse n'amazu hakurya bigaragara ko ikirere gikeye.

Imodoka itwara abagenzi ku buryo bwa rusange iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo imbere hari izindi modoka bigaragara ko ikirere gikeye harimo n'abagenzi itwaye.

Imodoka yagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange ifite irangi ry'umweru imbere yayo hakaba hari moto ihetse umuntu ndetse n'umuyoboro wagenewe gutwara amazi wegeranye n'akayira k'abanyamaguru hakurya hakaba hari ibiti byinshi bikikije umuhanda ndetse n'inyubako hakurya .

Imodoka nini yagenewe gutwara imizigo itwikirije shitingi irikugenda mu muhanda wa kaburimbo igiye guhura n'umumotari uhetse umugenzi, inyuma yayo hakaba hari ibiti ndetse bikikijwe n'inyubako nyinshi.

Imodoka iri kugenda mu muhanda, bigaragara ko ari imodoka yagenewe gutwara imizgo, hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda, amatara yagenewe gucanirwa umuhanda ndetse n'umuferege wagenewe gutwara amazi ukikije umuhanda.

Moto ziparaitse ku murongo bigaragara ko ziparitse impande y'akayira k'abanyamaguru zimwe zicayemo abantu n'abantu bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru, umugore umwe n'umugabo wambaye ishati y'umweru bigaragara ko ziparitse ku muhanda.

Umuhanda uri kugendwamo n'abantu ndetse n'umumotari uhagaze uhagararanye n'undi mugabo imodoka ibaparitse ku muhanda inyubako zikikije umuhanda hirya hari inyubako ndende igizwe n'ibirahure by'umukara ndetse yegeranye n'ibiti birebire.

Abantu bari kugenda mu kayira k'abanyamaguru abandi bakaba bicaye, hakurya hakaba hari ibiti binini by'imikindo bigaragara ko ari ubusitani, ndetse n'inyubako ndende ifite ibirahuri by'umukara, amakaro y'umweru ndetse n'amarangi y'umuhondo, insinga z'amashanyarazi hejuru.

Abantu bicaye mu busitani barikureba mu materefone n'abandi barimo baraza umugabo umwe wambaye ishati y'umweru n'agapfukamunwa n'undi uhetse igikapu bari mu busitani amatara kumuhanda ndetse mu biti by'imigano.

Ubusitani bugizwe n'imigano inyuma yayo hakaba hari ibiti ndetse n'inbyatsi hasi, bigaragara ko hari abantu bicaye bakora ubukorikori bujyanye no gushushanya, bicaye bategereje abaza kubireba hejuru hari amatara abamurikira igihe hari umwijima

Abana biri gukina umupira, ha kurya yabo hakaba hari intebe abaje kureba umupira bicaramo. lsanaho iteretse mu byatsi by'ubusitani. lnyuma yaho hakaba hari inyubako, yubakishijwe amatafari ahiye, ifite abati atukura, ifite ibyuma biteye amaragi ry'ibara ry'umukara. Ndetse n' amadirisha n'inzugi biteye iregi ry'umukara.

Ikibuga cy'umupira kirimo abakinnyi bari mu myitozo bigaragara ko rwose hari n'imirongo y'ikibuga, ku mpande hakaba hari ahandi abandi bakorera indi myitozo itandukanye, hakurya hakaba hari ibiti birebire bikikije iki kibuga ndetse n'amatara amurikira mu kibuga.

Umuhanda urimo imodoka ziri kuzamuka n'izimanuka hari n'icyapa kerekana ko imodoka zigeze ku gacuri kamanuka cyane cyangwa akazamuko kazamuka cyane ukikijwe n'ibirinda imodoka kuba zagwa mu mpanga ndetse ufite n'amatara yo ku muhanda hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'inyubako.

Umuhanda muremure bigaragara ko bari gukoreramo amasiganwa y'amagare abantu bahagaze ku nkengero z'umuhanda bashungereye, ukikijwe n'ibiti birebire ndetse n'amatara yo ku muhanda hari icyapa cyanditseho amagambo Muhanga.

Inyubako ndende iteye amarange y'umukara, ibirahuri byijimye, bigaragara ko ikikijwe n'urugo n'ubusitani ku muhanda, ndetse n'icyapa kiri ku itara ryo ku muhanda, ikirere gikeye.

Icyapa cyanditse mu magambo y'umweru n'umukara, bigaragara y'uko kiri kuvuga ko nta magare yemerewe kunyura ahantu, ndetse kikaba kiri kuburira abantu batwara ibyo binyabiziga by'amagare.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubusu bw'umweru ikirangantego cy'umukara, bigaragaza ko ari umunyamaguru kwambuka umuhanda, ibi bikerereka uri m'umuhanda ko agomba kwitondera kino cyapa mbere y'uko yambuka umuhanda.

Icyapa cyerekana inzira y'abanyamaguru, ndetse kikaba gikikijwe n'ibiti hakurya. Kiri mw'ibara umuzenguruko w'umuhondo, ikirangantego cy'umuntu urimo uratambuka mu muhanda wabugenewe, ndetse bikaba bigaragara ko ikirere gicyeye.

Icyapa cyerekana aho imodoka zigomba guparika inyuma yacyo hari abantu bahagaze ndetse ubusitani bwiza cyane inyuma y'ubusitani hari amazu maremare, agizwe ateye amarangi y'umweru mu birahure bikeye, ubusitani burimo ibiti, ndetse bigaragara ko hari ikirere gikeye.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirangantego cy'umukara cyerekana mirongo itandatu, aho kivuga ko nta muntu wemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itandatu. Hasi hakaba hari abandi bantu, bari kumanika icyapa cyerekana yuko imbere, hari ibikoresho byabugenewe mu gufotora imodoka ziri kwihuta, inyuma yabyo hakaba hari inzu ndende ndetse n'ibiti.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku ubuso bw'umweru, ikiranganarwa cy'umukara kiriho umuntu ufite igitiyo, bigaragara y'uko hari ibyo ari gukora, gihagaze mu busitani bugizwe n'ibyatsi inyuma hakaba hari ibindi biti igihe akazuba kari kwaka.

Umuhanda urimo abantu bari kugenda, icyapa kerekana ikerekezo cy'umuhanda cyanditseho rambura, amatara yo kumuhanda ukikijwe n'ibiti ku nkengero zawo ,amazu hakurya mukirere gikeye.

Inzu bakoreramo ubucuruzi imbere yayo hakaba haca insinga z'amashanyarazi ndetse n'icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirangantego cy'umukara. Cyerekana ko imbere hari ikorosi, hanze hakaba hari abantu babiri, umwe uri kuvugira kuri telefone w'umukobwa n'undi w'umuhungu, hasi hakaba hari amakaro.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru, ikirangantego cy'umukara. bigaragara ko umuntu ari kwambuka umuhanda. Bigatuma abambuka umuhanda bamenya ko icyo cyapa kibabwiriza kwambuka umuhanda. Ndetse n'imibare yanditse mu magambo y'umukara yerekana uburebure bw'iki cyapa.

Icyapa kirimo abana babiri bigaragara ko bavuye ku ishuri umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru, mu ibara ry'umweru bigaragara yuko iki cyapa kiburira abantu ko aha hantu hanyurwa n'abanyeshuri bavuye ku ishuri.

Icyapa gifite umuzenguruko wuruziga ubuso bw'umweru ikirangantego cy'umukara cyerekana ko ntamuntu wemerewe kurenza umuvuduko wa mirongo itatu ndetse kikayobora ibinyabiziga biri kugenda mumuhanda neza.

Icyapa kiri gifite umuzenguruko utukura mu ishusho y'ibara ry'umukara kerekana ko ntabinyabiziga bijyanye n'amagare byemerewe guca aha hantu.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umuhondo, ikirangantego cy'umukara, bigaragara ko ari umuntu ufite igitiyo, imbere hakaba hari ibyo ari gukora, kikaba cyerekana ko imbere hari imirimo iri gukorwa, babwira umuyobozi w'ikinyabiziga.

Inyubako nyinshi zicuritse ndetse n'umuhanda n'urukuta rw'ubakishije amabuye hakurya hakaba hari ibiti y'izi nyubako, bigaragara ko ari ahantu bita ikonomike zone mu rurimi rw'icyongereza.

Inyubako nyinshi bigaragara ko ari imiturire yegeranye, izitijwe n'ibiti birebire insinga z'amashanyarazi ndetse n'amabati ashaje cyane agiye yivanzemo ay'imituku ndetse n'imikara igihe izuba riri kwaka.

Inyubako ndende ifite inzugi z'umukara zirimo ibirahure by'umukara, yometseho amakaro y'umweru, imbere yayo hakaba haca insinga z'amashinyarazi, ikikijwe n'urugo rwubakishijwe amatafari ahiye, inyuma yarwo hakaba hari ibiti birebire.

Inyubako ndende ihagazemo umukobwa, ndetse bigaragara ko hariho ibyapa byamamaza n'insinga z'amashanyarazi zijyanamo umuriro, n' ibirahure by'umukara byijimye mu marangi y'umweru.

Umuhanda urimo imodoka nyinshyi hakurya y'umuhanda hari amazu n'ibikoresho bishaka amarezo, ndetse n'insinga z'amashanyarazi hejuru, n'umumotari uri mu muhanda ndetse n'abantu bigaragara ko Ari umuhanda nyabagendwa.

Inyubako ndendesakajwe amabati y'umutuku, bigaragara ko hari n'ipotoro ryikoreye insinga z'amashanyarazi, imbere yayo hakaba hari urugo rwubakishije amatafarihiye rurimo amadirishya y'ibyuma, inyuma y'inyubako hakaba hari ibiti birebire bigaragara ko hari n'icyapa cyanditseho unisiko cyerekana ko ari ibihakorerwa.

Abantu benshi na moto ziparitse, inyubako ziriho amakaro asa umweru, bigaragara ko ni ahantu hitwa giporoso ndetse hakaba n'ahantu herekana ko dukata imfunguzo hariho n'icyapa cy'urufunguzo na nimero zabo n'amazu menshi n'insinga z'amashanyarazi hejuru.

Imodoka ziparitse, imwe iri mw'ibara ry'umutuku indi iri mw'ibara ryenda gusa umukara. Abazungu batatu barimo baragenda binjira imbere mumazu ahari asakajwe n'ibyatsi, bakaba bari kugenda ahantu hakozwe n'amabuye ndetse hameze neza.

Inyubako nyinshi ndende ziteye amarange y'umuhondo ndetse n'umweru, hejuru zikaba zisakajwe amabati y'ubururu ndetse n'amatara amurikira muri iyo nyubako n'ibiti byinshi, bigaragara ko hari igihu cyenda kugwisha imvura.

Akayira karimo abantu bari kugenda moto ziparitse ndetse n'imodoka hagaragaza Giporoso inyubako zikikije agahanda, amapoto y'amashanyarazi ndetse n'insinga z'amashanyarazi.

Abantu baraimo baragenda ndetse na moto ziparitse hirya imbere y'amazu, insinga z'amashanyarazi mu kirere ndetse n'icyapa kerekana ko bakata imfunguzo n'ikimenyetso cy'urufunguzo ndetse na nimero bigaragara yuko ari mu muhanda nyabagendwa.

Inyubako isakaje amabati mu ibara ry'umutuku, ndetse ikaba ikikijwe n'ibiti, ndetse n'urugo ruriho ibirinda abajura hejuru, n'insinga z'amashanyarazi ucaho. Hakurya bikaba bigaragara ko ari inzu nyinshi, bigaragaza imiturire, ndetse n'umusozi hakurya.

Inyubako nyinshi bigaragara ko ari umudugudu wagenewe guturwamo ndetse hakaba harimo n'ibiti byinshi, insinga z'amashanyarazi hejuru mu kirere, bigaragara ko ari kimironko kwa Nyanzira, hakurya hakaba hari ikirere gisa naho kijimye, bigaragara yuko buri kugoroba.

Inyubako bigaragara ko imiryango ikinguye ndetse iriho n'ibyapa byamamaza hejuru hakaba hari ku urukuta mekejwe amakaro y'umweru bigaragara ko uyu muryango ukinguye bacuruza imyenda ndetse n'ahantu hameze neza hamennye sima hakurya hakaba hari ibiti.

Inyubako ifite amabati atukura, ifite imireko y'umukara, ikikijwe n'urugo rwubakishijwe amatafari. Hejuru hakaba har'ibigega bifata, bigaragara ko ari ku muhanda amazi ndetse n'insinga zizana amashanyarazi mu rugo.

Inyubako zirimo zirubakwa bigaragara ko ari ibibanza biri kugenda byubakwamo. Zikikijwe n'ibiti, zimwe zifite amabati atukura ndetse n'umukara. Hamwe hakaba hahingwamo ibigori hasi, bigaragara ko ari ibibanza bijyanywe n'ubwubatsi.

Inyubako isakajwe amabati atukura, itewe amarange y'umukara n'umweru, ifite ibirahure byijimye. Bigaragara ko hejuru hari gucaho insinga zitwara amamshanyarazi ndetse n'amatafari yubatse urugo amatafari ahiye.

Inyubako ndende ifite ibirahure bibonerana iteye irangi ry'umuhondo hasi hakaba haparitse imodoka ndetse na moto ziri kugenda mu muhanda ikaba ikikijwe n'igiti kirekire ndetse hejuru y'inyubako bikaba bigaragara ko hari ibikoresho bishinzwe gutanga itumanaho ryihuse.

Inyubako ndende ifite ibirahure by'umukara byijimye, inkuta ziteye amarangi y'umweru yubakishije amatafari ahiye, imbere hakaba hari ubusitani bw'ibyatsi ndetse buhagazemo ibiti ndetse ikaba isakaje amabati atukura bigaragara ko hari ikintu gikorerwamo.

Inyubako nyinshi bigaragara ko ari imiturire ndetse zikikijwe n'ibiti byinshi hakurya hakaba hari amapoto maremare atwara insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko ari igihe cya mu gitondo butaracya hacyeyemo gake.

Inyubako ndende yometseho amakara y'umweru, ndetse hasi hakaba hari imodoka nyinshi ziri kugenda m'umuhanda, ndetse n'ibiti bigaragara ko hari ubusitani butatse umuhanda n'amatara yagenewe gucanira umuhanda, icyapa kiyobora abantu m'umuhanda ndetse hakurya hakaba hakeye bigaragara ko akazuba kari kwaka.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendwamo n'abantu babiri umwe wambaye ishati y'umutuku n'ipantalo y'umweru, undi wambaye ingofero y'umweru ikote ry'umukara, bitegereza mu gipangu gikinguye, harimo inyubako nyinshi zagajwe amabati y'umukara zikikijwe n'ibiti, urugo rwubakishijwe amabuye ndetse n'insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka nyinshi zirimo ziragenda mu muhanda, n’ibiti birebire bigaragara ko hari ubusitani. Hakurya, hari amazu asakaje amabati y’umukara, hari ijambo ryanditse mu Kinyarwanda rigira riti: "Ku Muvunyi."

Imodoka iparitse ahantu hakoreshejwe amabuye, inyuma yayo hakaba hari inzu isakajwe ibyatsi, imbere yayo hakaba hari ubusitani bw'ibiti bigaragara ko hari abazungu babiri bari kwinjira aha hantu.

Umumotari uhagaze wambaye ingofero z'ubwirinzi zabugenewe, inyuma hakaba hari ubusitani buparitsemo imodoka ndetse n'amazu inyuma asakajwe amabati y'umutuku bigaragara ko ari mu miturire myiza.

Intebe zikozwe mu mbaho z'ibiti, imbere yaho hakaba hari ubusitani bw'ibyatsi, mu nzu hakaba harimo akabati gateretsemo amacupa, inzugi zikinguye ziteye amarange mu ibara ry'umukara.

Inyubako ndende y'ubakishije amakaro n'ibiti by'imigano n'imodoka, umuhanda wa na kaburimbo n'icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku. Hirya yaho hari ibiti n'andi mazu hirya n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda bigaragara ko harimo moto ziri kugenda ndetse n'abanyamaguru hakurya, n'ibyapa byerekana ibikorerwa hano hantu ,ibiti birebire inyuma hakaba hari n'imodoka ziparitse n'ubusitani bugaragara neza cyane.

Inyubako iteye amarange y'umweru, inzugi ziteye irange ry'umukara, ibirahuri by'umukara, urugo rw'ibyuma ruteye amarangi y'umweru, inyuma y'inyubako hakaba hari ibiti birebire ndetse bigaragara ko iri ku muhanda.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka ndetse n'ibimenyetso byo ku muhanda n'utuyira tw'abanyamaguru, hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'amapoto yikoreye insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko ari igihe cya kumanywa ikirere gikeye.

Ikiraro cyagenewe kwambukirwaho imodoka ndetse n'abantu bigaragara ko ari imihanda ibiri umwe hasi undi hejuru ukikijwe n'ibiti byinshi n'ubusitani bwi'ibyatsi hasi bigaragara ko ikirere kijimye mu gihe cya ni mugoroba ndetse n'amatarari yo ku mihanda.

Ahantu hahagaze igikoresho cyagenewe kureba ibinyabiziga biri kwirukanka mu muhanda gikikjwe n'ibiti. Inyuma yaho hari urukuta rw'amabuye ndetse hakurya hakaba hari amazu bigaragara ko ari ikirere gikeye izuba ririmo riraka.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibiti ndetse n'ibiraro bambukiraho bajya mu ngo, ndetse ukaba ukikijwe n'ingo nyinshi, amapoto yikoreye insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko ikirere gisa umweru, gikeyeye.

Imodoka iri mu bwoko bw'umutuku, iri kugenda mu muhanda. Hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'inzira y'abanyamaguru iri kugendamo abantu, bigaragara ko izuba ririkwaka n'amatara amuririka umuhanda.

Umuhanda ucuritse urimo imodoka yagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange ndende, bigaragara ko ari ikiraro umuhanda wo hasi n'uwo hejuru, umunyegare uri kugenda ku igare, ibiti hakurya y'umuhanda, izuba riri kwaka.

Umuhanda urimo imodoka, ibiti, amatara yokumuhanda nabantu hirya ndetse bigaragako umuhanda wangiritse, ikirere gicye kimeze neza ndetse na moto zirimo kujyenda mumuhanda.

Umuhanda nyabagendwa urimo moto n'ibyapa byerekana aho ibinyabiziga bigomba kunyura, urimo imodoka ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda. Hakurya hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti bikikije umuhanda, hakaba hanarimo n'ibikoresho byabugenewe mu gufotora imodoka ziri kwihuta cyane.

Umuhanda ucuritse uri kugendamo imodoka ndetse n'ipikipiki ihetse abantu, ibiti bikikije umuhanda ndetse n'ubusitani, bigaragara ko ari igihe cya mu gitondo.

Imodoka ziri kugenda m'umuhanda wa kaburimbo zegeranye ndetse n'umunyega uhetse umuntu, bigaragara ko hejuru hari undi muhanda ziri guca munsi y'iki kiraro, ukikijwe n'ibiti byinshi amatara yo k'umuhanda ,hejuru kuri uyu muhanda hakaba hari ibyuma bituma abantu cyangwa se imodoka badashobora guhanuka ngo bakore impanuka.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'inyubako bigaragara ko bicurutse ndetse n'amatara yo ku mihanda yaka, ayobora imodoka zigenda mu byerekezo bitandukanye n'ibiti bikikije umuhanda ndetse n'ibimenyetso byo mu muhanda byerekanwa kugira ngo imodoka zigendere mu mikono yazo.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byinshi ndetse n'amapoto yikoreye amatara yo ku mihanda, hakurya hakaba hari umujyi wa Kigali bigaragara ko utari kugaragara neza, ariko igihu kikaba cyawutwikiriye.

Umuhanda urimo imodoka ziri kugenda, ugaragaza ibimenyetso by'umuhanda neza, utuyira tw'abanyamaguru hakurya ndetse n'urugo ruri ruguru y'akayira k'abanyamaguru rwubakishije amatafari ahiye, hakuno y'umuhanda hakaba hari ibiti byinshi bikikije umuhanda ndetse n'ibyapa byamamaza biri ku mapoto yikoreye amatara amurikira umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo usa nkaho ucuritse hakaba harimo imodoka ndende yagenewe gutwara imizigo, n'ibiti hakurya bikikije umuhanda ndetse n'amapoto yikoreye insinga z'amashanyarazi n'isaha iri ku muhanda ifashe ku ipoto.

Umuhanda wa kaburimbo ugaragaza ibisate bigabanya umuhanda harimo imodoka ziri kugenda ndetse na moto hirya hari amatara yo kumuhanda ndetse nibiti bigaragaza ko izuba ririmo rirarasa.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ubusitani ndetse n'inyubako nyinshi n'insinga z'amashanyarazi, bigaragara ko harimo imodoka zirimo ziragenda. Inyubako nyinshi zifite amabati atukura ndetse bigaragara ko ari imiturire.

Umuhanda urimo ibimenyeto by'umuhanda, hakurya hakaba hari igikoresho gishinzwe gufotora imodoka zirimo zirirukanka. Icyapa kirimo kwaka mu itara ry'umutuku hakurya hakaba hari ibiti ndetse n'amapoto atwaye insinga z'amashanyarazi.

Umuhanda uzenguruka, bigaragara ko ari i ikorosi rikikijwe n'ibiti byinshi, hakurya hakaba hari ubusitani bw'ibyatsi, hakurya hakaba hari inyubako nyinshi, ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda ucuritse bigaragara ko harimo moto, imodoka ziri kugendemo, ndetse n'amazi yamenetsemo hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda, igihe ku manywa akazuba kari kwaka.

Ni igihe cy'umugoroba amatara ari kwaka ndetse n'ibinyabiziga biri kugenda byaka urugo rukikijwe n'ibiti, by'imigano ubusitani bw'ibyatsi hasi bigaragara ko ari igihe cy'umugoroba.

Umuhanda wa kaburimbo, bigaragara ko ari igihe cya nimugoroba amatara yo ku muhanda ari kwaka, hakurya hakaba hari ibiti bikikije umuhanda ndetse n'ikiraro kinyuramo amazi, kizitiwe n'ibyuma bitewe amarangi ndetse n'umugabo uhagaze yitegura kwambuka mu nzira y'abanyamaguru.

Umuhanda ucuritse urimo amapikipiki yari ari kugenda ndetse n'imodoka iteye irangi ry'umweru, hakurya hakaba hari amatara amurikira umuhanda ndetse n'ibiti bikikije uyu muhanda bigaragara ko hari igihe akazuba kari kwaka.

Umuhanda ucuritse ugaragaza ibimenyetso byo mu muhanda imodoka ziri kugendamo, ndetse amatara yo ku muhanda n'ubusitani bwo ku muhanda, hakurya hakaba hari ishyamba rikikije umuhanda bigaragara ko ari mu gihe cya mu gitondo bukeye.